Ubuhinzi bugezweho bukoresha ibinyabutabire bigiye bitandukanye kugira ngo bice udukoko twibasira imyaka kandi igire n'ubuzima bwiza kugira ngo umusaruro uzagaragare kandi uboneka ari mwinshi.

Ubuhinzi bugezweho aho ibigori biterwa ku murongo ndetse bigatanga umusaruro kugira ngo birindwe indwara bakoresha ibinyabutabire batera imiti ndetse bita no ku buzima bw'ibihingwa muri rusange.

Ubworozi bugezweho bw'amafi, aho aborozi babiri bari kuroba ndetse bashaka umusaruro kugira ngo babone ibibatunga ndetse basagurire n'amasoko.

Gahunda y'ubworozi bugezweho bw'amafi aho ashyirwa mu mazi meza ndetse n'umworozi arimo kuroba ashaka umusaruro w'amafi.

Ubworozi bw'amafi aho hifashishwa uburyo bwa kijyambere, aborozi batandukanye babona umusaruro kandi ushimishije, bityo bigatuma ubuzima bwabo bugenda neza bakiteza imbere.

Uburyo bwo korora inyamaswa zo mu mazi cyane cyane amafi aho zitanga umusaruro ndetse zikitabwaho mu buryo bwihariye kandi bigafasha n'ababikora kwiteza imbere.

Ubuhinzi bw'ibihingwa ngandurabukungu cyane cyane kawa aho zitanga amafaranga ndetse zigatanga n'umusaruro ukwiriye kugira ngo abaturage bahinga babeho kandi biteze imbere.

Gahunda y'ibihingwa bitanga amafaranga ku baturage, aho bahinga umuceri mu gishanga wenda kwera, bityo ukabaha ibyo bakeneye byose mu gihe babigurishije.

Ubuhinzi bw'ibihingwa ngandurabukungu aho abaturage barenze umwe bahinga umuceri mu bishanga bityo bikabazanira ubukungu ndetse bikabaha n'ibyo kurya bihagije.

Ubuhinzi bw'ibihingwa ngandurabukungu aho kawa bazitera ku murongo ndetse mu buryo bwiza bityo zigatanga umusaruro ukwiriye kandi uboneye.

Gahunda yo gutanga imiti igenewe amatungo kugira ngo atange umusaruro ukwiriye harimo: inka, ihene, ingurube ndetse n'ibindi.

Imiti igezweho yagenewe amatungo: inka, ihene ndetse n'ibindi, aho ifasha kugira ngo indwara zitandura ndetse zikangiza umusaruro amatungo atanga.

Imiti y'amatungo ituma atarwara ndetse ikarinda indwara mu buryo bwose, aho bituma umusaruro wiyongera ndetse aba borozi bakabona ibibafasha.

Gahunda y'ubuhinzi n'ubworozi aho amatungo ahabwa imiti iyafasha mu kororoka ndetse no kugira umusaruro ukwiriye kugira ngo aborozi babone amafaranga mu buryo bwose.

Uburyo bwiza bwo kwita ku matungo, aho ahabwa imiti yabugenewe kugira ngo akomeze atange umusaruro kandi bifashe n'aborozi kwiteza imbere muri byose.

Imiti yabugenewe kandi igezweho yo kwita ku matungo ndetse no kuvura indwara, bityo bigatuma inyamaswa zitagira umuze ndetse zikabaho neza zitanga n'umu umusaruro ukwiriye.

Abahinzi bateraniye hamwe muri gahunda yo gutera ibiti ndetse n'amashyamba aho bifasha mu kurinda ibidukikije ndetse birwanya ihumanya ry'ikirere.

Ifamu nini irimo inka zigiye zitandukanye z'amabara menshi, aho umworozi arimo yita ku buzima bwazo ndetse areba ibyo zikeneye kugira ngo zibeho kandi neza.

Gahunda y'ubuhinzi ndetse bwa kijyambere, aho imbuto ziterwa neza ndetse abahinzi bagatunganya neza aho bazahinga kugira ngo bazagira umusaruro ukwiriye.

Aborozi benshi bateraniye hamwe aho bahabwa ingurube kugira ngo zibafashe mu iterambere ryabo rya buri munsi kandi na bo biteze imbere.

Gahunda y'ubuhinzi bwo mu gishanga aho umuhinzi ahinga umuceri ndetse akawitaho bikwiriye kugira ngo ukomeze utange umusaruro ufasha muri byinshi.

Gahunda y'ubuhinzi cyanecyane yita ku gutera ibiti aho umuturage yitabiriye gahunda afata imbuto kugira ngo igihe runaka izatange umusaruro.

Ubuhinzi bugezweho, aho abahinzi bahinga imboga ndetse n'imbuto zabugenewe kandi bagatera ku murongo kugira ngo babone umusaruro ukwiriye kandi ubafashe muri byinshi.

Ubuhinzi bw'umuceri mu bishanga ndetse ahantu hari amazi aho umuhinzi yita ku myaka ye ndetse akayuhirira akayikiza ibyatsi kugira ngo itange umusaruro ukwiriye.

Ubuhinzi bw'ibihingwa ngandurarugo, aho umuhinzi ahinga neza kijyambere kugira ngo abone umusaruro w'ibirayi, bityo bigafasha mu kubona ibyo kurya mu rugo ndetse no gusagurira amasoko.

Gahunda yo gutera ibiti ndetse n'ibihingwa bitanga ibyo kurya aho imbuto cyane cyane imyembe iterwa mu butaka bwiza ndetse igafumbirwa ikitabwaho kugira ngo itange umusaruro ukwiriye.

Ubuhinzi bw'ibihingwa bitanga ibyo kurya aho umurima uteyemo imyumbati ndetse igira n'uruhare mu gutanga ibitunga abaturage.

Gahunda y'ubuhinzi cyane cyane bwerekeye gutanga ibyo kurya aho ibirayi byera bigatanga n'umusaruro kugira ngo bitunge abaturage ndetse bibafashe mu kwiteza imbere muri byose.

Gahunda yo gutera ndetse no kwita ku mashyamba, aho afasha byinshi bigiye bitandukanye, agatanga umusaruro w'imbaho ndetse n'inkwi mu gihe yasaruwe kandi yeze kandi agafasha mu gukurura imvura ndetse no gutanga umwuka mwiza ku bidukikije.

Ubuhinzi bw'amashyamba ndetse no kwita ku bidukikije, aho ibiti bya kimeza bibungabungwa ndetse hagaterwa n'ibindi kugira ngo bitange umwuka mwiza kandi bifashe n'abaturage bahazengurutse.

Gahunda y'amashyamba ndetse no kubungabunga ibidukikije aho bitanga umwuka mwiza kandi bigakurura n'imvura aho biteye bityo bikaba muri bimwe bigize urusobe rw'ibinyabuzima ku isi.

Ubuhinzi bw'amashyamba ndetse no kuyabungabunga, aho ibiti byeze, bisarurwa neza bigapangwa imisingi maze bigatanga umusaruro wundi kandi bigafasha n'ababikora kwiteza imbere.

Gahunda yo kubungabunga ibidukikije ndetse n'amashyamba no kuyatera, aho agira umumaro mwinshi mu gutanga umwuka mwiza ndetse agakurura n'imvura, bityo bigafasha urusobe rw'ibinyabuzima ndetse n'ibidukikije muri rusange.

Gahunda y'amashyamba ndetse no kwita ku bidukikije, aho agasozi runaka gaterwaho ibiti bikarinda isuri ndetse bigatanga n'umwuka mwiza, kubawukikije, kandi bigafasha n'abaturage kwita ku byo bahinga.

Ubuhinzi bw'amashyamba ndetse no kuyitaho, aho atanga umwuka mwiza ku bidukikije ndetse akagira akamaro kenshi mu gukurura imvura bityo bigafasha abahinzi, kubonera umusaruro ku gihe ndetse ntibarumbye.

Ubuhinzi bugezweho bw'imbuto n'imboga, aho abahinzi ba kijyambere, bahinga imiteja ndetse n'ibindi bitandukanye kugira ngo bahaze isoko ry'ibiribwa.

Ubuhinzi bw'imbuto ndetse n'imboga, aho umuturage kandi uhinga, yita ku buhinzi bw'inanasi bityo zigatanga umusaruro ukwiriye.

Gahunda y'ubuhinzi bw'imbuto n'imboga, aho umuturage yita ku bihingwa bye abibagarira ndetse abishyiraho n'ifumbire kugira ngo bitange umusaruro ukwiriye mu gihe kizaza.

Uburyo bugezweho bwo kwita ku myaka yuhirwa kandi igahabwa ibikenerwa byose kugira ngo itange umusaruro ukwiriye maze bigafasha abaturage kubona umusaruro ndetse bakiteza imbere muri byose.

Uburyo bwo kuhira bugezweho aho hifashishwa ibikoresho by'ikoranabuhanga kugira ngo imbuto, imboga ndetse n'indi myaka iterwa mu butaka bufumbiye kandi bumeze neza ihabwe amazi meza asukuye kandi atuma umusaruro wiyongera.

Gahunda yo kuhira, aho ibikorwa remezo bifasha, biba byaratunganyijwe ndetse n'amazi ahari, bityo bigatuma umusaruro wiyongera ndetse ugahabwa n'imbaraga.

Gahunda igezweho yo kuhira imyaka, aho imboga ndetse n'ibindi bihingwa, maze hagakoreshwa uburyo bugezweho bwo gukwirakwiza amazi ku bihingwa, bityo bigatanga umusaruro ukwiriye.

Ubuhinzi bwa kijyambere, bujyanye no kuhira imyaka, mu buryo bugezweho, aho abahinzi bita ku bihingwa ndetse bakabiha n'amazi akwiriye kugira ngo bitange umusaruro kandi bifashe mu iterambere muri rusange.

Ubuhinzi bugezweho kandi bwa kijyambere, aho imbuto ndetse n'indi myaka byitabwaho bikuhirwa n'ibikoresho by'ikoranabuhanga, bityo bigafasha abaturage mu kubona umusaruro ukwiriye.

Imisozi itengamaye kandi iringaniye neza, ahari ibiti biteye ku murongo ndetse hari n'amaterasi y'indinganire bityo byose bigaharanira mu kurinda isuri iterwa n'ibintu bitandukanye.

Imisozi igaragara neza, aho hari ubuhaname, haterwa amaterasi y'indinganire ndetse n'ibiyaga bikaba bituma imvura igwa neza ndetse igatanga n'umwuka mwiza ku bidukikije.

Ibidukikije, amashyamba, amazi ndetse n'urundi rusobe rw'ibibigize, aho inyamaswa z'ishyamba ndetse n'izo mu mazi zitura kugira ngo ubuzima bw'ibinyabuzima bukomeze.

Ibidukikije ndetse n'ubwiza butatse igihugu, hari imisozi myiza ndetse n'ibiyaga kandi hari ikirere gitanga imvura kandi gikeye bityo bigafasha mu kugaragara neza ku bidukikije.

Ubuhinzi bugezweho bw'inka ndetse zororerwa mu biraro aho aborozi babiri ndetse batatu bita ku byo amatungo akeneye kandi agatanga n'umusaruro ukwiriye.

Gahunda y'ubworozi bukorerwa mu biraro ndetse ahantu hamwe, ingurube ebyiri, zishyizwe mu kiraro ndetse zitanga umusaruro w'ifumbire ndetse n'ibindi bifasha aborozi.

Ubworozi bw'amatungo magufi cyane cyane ingurube aho zishyirwa mu biraro zikitabwaho bikwiriye maze zigatanga umusaruro kandi ufasha n'aborozi kubaho neza.

Gahunda y'ubworozi bw'amatungo ariko yorerewe hamwe mu biraro, aho umworozi wayo arimo yita kuri byinshi byari bitandukanye, atanga ibyokurya ndetse n'amazi mu gihe bikenewe.

Ubworozi bugezweho, kororera mu biraro, aho inkoko zitanga umusaruro w'amagi ndetse n'uw'inyama, zishyirwa hamwe kugira ngo zikomeze kwitabwaho ndetse zifashe n'aborozi, kubona amafaranga ndetse n'ibindi.

Uburyo bwiza kandi bugezweho bwo gutunganya imbuto zifashishwa mu buhinzi aho zihabwa ubuziranenge ndetse zikaba zamara igihe kinini zitangiritse.

Imbuto zo guterwa ndetse zatunganyirijwe mu butaka bwiza, aho zishyirwa ahabugenewe kugira ngo zitange umusaruro ndetse zihingwe aho zikwiriye gushyirwa.

Uburyo bwiza bwo kwita ku mbuto ndetse ziteganyirizwa guhingwa kugira ngo zitange umusaruro ukwiriye, aho umuhinzi asura ndetse agasuzuma neza niba zujuje ubuziranenge.

Gahunda y'ubuvuzi ndetse no kwita ku mutungo aho ubihererwa ububasha asuzuma ndetse akareba ubuzima bw'inyamaswa ndetse n'ubw'inyama zikomokaho.

Ubuvuzi bw'amatungo, aho inyamaswa ishyirwa ahabugenewe ndetse n'abanyeshuri bari kwiga, bakagerageza kuyikoreraho ubushakashatsi ndetse bakamenya icyatera uburwayi ndetse n'ibindi.

Ubworozi bw'amatungo ndetse no kuyitaho, aho inka ishyirwa ahabugenewe ndetse n'abanyeshuri babyitaho, bayivura ndetse bayitera imiti, kugira ngo ikomeze igire ubuzima bwiza.

Ubuzima bw'inyamaswa zo mu ishyamba aho zikunda kuba muri pariki cyane cyane agasumbashyamba aho kaba kari kurisha ndetse abakerarugendo bagasura.

Gahunda yo kwita ku buzima bw'inyamaswa zo mu ishyamba aho zishyirwa muri pariki ndetse zigakurura ba mukerarugendo bafasha mu gutanga amadovize bityo Igihugu kikiteza imbere muri byose.

Inyamaswa iri muri pariki aho irimo kurisha ndetse ishaka ibyo kurya kandi hari ba mukerarugendo barimo baje gusura ndetse bareba n'ibyiza bitatse igihugu.

Inyamaswa zo mu ishyamba, aho intare yiruka ku mparage, ishaka umuhigo ndetse kugira ngo ibone uko ibaho.

Ubuzima bw'inyamaswa zo mu ishyamba, aho inzovu iri muri pariki ndetse n'abakerarugendo, baje gusura bareba kandi kwiga byinshi kuri yo, bityo bigatuma igihugu giteza imbere mu bijyanye n'ubukerarugendo.

Ubuzima bw'inyamaswa zo mu ishyamba, cyane cyane inzovu, zishyirwa hamwe muri parike zikitabwaho ndetse zikabungabungwa kugira ngo zikurure ba mukerarugendo kandi bagire uruhare mu iterambere ry'igihugu.